Umuzungu w'umukobwa uri guhabwa igihembo cyo gusura u Rwanda ndetse ari kugihabwa n'umugabo wambaye amarinete w'umunyafurika, bose bishimye bariho barafata ifoto.

Umugezi utemba uriho ibiti bisa n'ibyo abantu bambukiraho, hari umwana muto uri ku ruhande rwo hirya ndetse n'umugore uri ku ruhande rwa ruguru, ariho aravoma amazi yo kuri uwo mugezi, aravomesha ijerekani.

Abagabo b'abirabura bari gusuhuzanya ndetse n'umuzungu umwe uri kuvugana n'umwe muri bo, inyuma yaho hari intebe ndetse n'icyapa kinini, ku ruhande rw'icyo cyapa hateretse amavaze arimo indabo.

Ikigega cy'umukara kiriho robine, imbere yaho hari abana b'abakobwa batandatu bambaye iniforume z'ishuri ndetse n'imipira y'ishuri bavomyeho amazi, bariho barayanywa basa n'aho bifotoza, umwe muri bo niwe ukiri kuvoma.

Abantu bicaye bakoze urunana, bicaye barebana, ni abagore ndetse n'abagabo harimo n'abasore, ndetse n'umukobwa umwe. Imbere yaho hateretse amazi ndetse na mudasobwa, bariho baragira ibyo baganiraho barebana.

Abantu batandukanye bakiri batoya basetse bishimye bose bambaye baji, amajire abandi ntayo bambaye, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Nyabageni, bariho barifotoza bamwe barahagaze abandi baricaye bose kandi bishimye.

Abaganga babiri umuhungu n'umukobwa bari mu cyumba kivurirwamo abarwayi, hari umwana uryamye ku gitanda bariho baravura ukuboko, umubyeyi we nyina yicaye ku ruhande ariho arareba uko bamuvura.

Abantu benshi b'ingeri zose, abihaye Imana abagore, abagabo, bameze nk'abashungereye ahantu hari ikidara cy'umweru kirimo abasore bambaye amakarita y'akazi, inyuma yabo ku nzu begeranye hariho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi abazungu n'abirabura abagore n'abagabo bicaye mu nama, imbere yabo hari abameze nk'ababayoboye ni batandatu, abagabo batanu n'umugore umwe barasa naho bariho barabaha ibiganiro.

Umuzungu w'umukobwa uriho arafotora akoresheje telefoni ye, umugabo w'umunyafurika wambaye agapfukamunwa, amarinete n'ingofero, uriho arakorera umwana akabido ka cumi n'atanu. Inyuma yabo hari abagabo batatu b'abanyafurika, umwe muri bo yambaye agapfukamunwa.

Umuntu usa nkaho ariho arakaraba intoki, robine ifite ibara ry'ubururu, ku ruhande hari akantu ko gushyiraho isabune hanyuma abantu bakajya bakarabiraho intoki.

Umubyeyi w'umumama ugaragara nk'aho akuze, wambaye akajire ndetse n'ipantaro n'umupira, ariho arahereza icyo kunywa utwana duto turi imbere ye, twose twiteze kuba twahabwa icyo kunywa, inyuma ye hari umuntu wambaye gisirikare na we uriho arazana inkongoro agiye guha abo bana icyo kunywa.

Ivomero ririho umugore uriho aravomera mu ndobo, inyuma yaho hafasheho ikintu, abandi babyeyi bariho barapompa kugira ngo amazi aze kuvamo.

Abana benshi bakoze ikoraniro ku mugezi, wubatse hubatse udukuta tubiri dutoya hagati hari gucamo itio isa nk'aho yapfumutse batezeho ibase, hanyuma ahandi amazi ari kumeneka niho abo bana bari gutega ibiganza byabo, barishimye nk'aho bari gukina

Abantu benshi abirabura n'abazungu bari mu itente bahagaze, harimo umwe inyuma yabo wambaye ikositimu na karuvati uriho arabafotora, abambaye imyenda y'ubururu barengeje ku yindi, bafite ameza imbere yabo bari kugenda basobanurira bagenzi babo ibintu runaka uko bikorwa.

Aagabo bahagaze bambaye imitisheti y'umweru ndetse n'utujire twa Croix rouge, harimo umusekirite umwe, undi aricaye yambaye umupira w'umutuku ndetse n'akajire k'umweru, ameze nk'uri kunywa imiti afite n'impapuro mu ntoki ze.

Inzu ibagirwamo abarwayi harimo abaganga batanu, abirabura bane n'umuzungu umwe, bose bambaye udupfukamunwa n'imyenda ikoreshwa kugira ngo babage umuntu ndetse ga, bari kubaga umuntu uryamye ku gitanda, biragaragara ko bari kumubaga mu isura.

Ahantu hateraniye ikivunge cy'abantu benshi b'ingeri zose, abagore, abagabo, abana, iruhande rwaho hari itente ry'umweru ndetse hari n'inzu ibegereye bisa nk'aho bari kujya gufatirayo serivisi bakagaruka, hagati y'abo bantu hagiye harimo abantu bambaye amabaji basa n'aho ari bo bari kugenda babayobora icyo gukora babayobora n'aho kujya.

Abagore n'abagabo bicaye, imbere yabo hateretse ameza ariho amazi ya Nili imbere ya buri muntu ndetse n'akantu uri bwaze kwandikaho ibyo uri kumva. Bari kureba imbere yabo nk'aho bakurikiye umuntu uri kugira icyo abatangariza.

Inzu ifite amarangi y’ubururu ifite n'amabati asize irangi ry'umutuku hepfo yayo hari umuceri uhahinze hirya hari umusozi utuyeho abantu imbere yaho ngo hari urugomero ruhubatse ku ruhande hari za kizimyamwoto ndetse hari n'abantu babiri bari kugenda muri urwo rugomero.

Abantu benshi bateraniye ahantu mu kibuga, abiganjemo ni ababyeyi benshi bateruye abana babo, hagati yabo hicaye umuganga wambaye itaburiye n'agapfukamunwa, iruhande rwe hari imeza iteretseho igikapu kirimo ibikoresho ari kugenda yifashisha atera inshinge abana.

Umugore n'umugabo bose bafite amajerekani, bari ku ivomero barimo baravoma bafunguye amazi, hepfo yaho hari ibiti byinshi iby'ishyamba ndetse n'ibyatsi bikiri bigufiya.

Sale irimo abantu benshi, harimo ameza maremare ku mpande ebyiri, hicayeho abantu barebana ku meza yabo hateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa, abenshi bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika, abandi ntayo bafite, ni abazungu n'abirabura.

Abantu bicaye hanze mu rucaca ku ntebe eshatu, harimo umu DASSO umwe, harimo abagabo babiri abandi bose ni abagore, bameze nk'abariho baraganira ku kibazo runaka kuko buri umwe afite ikayi n'ikaramu, inyuma yabo hari inzu iriho icyapa cyanditseho girubuzima, ku ibaraza ryayo hicaye abantu basa n'aho baje gufata serivisi.

Abantu bari ku mugezi bariho baravoma amazi, ni ababyeyi babiri ndetse n'umwana muto w'umukobwa, umubyeyi umwe yashyizeho ijerekani arimo aravoma izindi jerekani ziri inyuma zitonze umurongo zitegereje nazo gukurikiraho. Begeranye n'umurima urimo insina ndetse n'ibishyimbo ku ruhande rwo hepfo hateye ikawa.

Inzu bigaragara ko ariyo abarwayi bivurizaho, hanze hicaye abantu benshi cyane batonze umurongo, imbere yaho hari umuntu uhicaye uri kugenda yakira umuntu umwe umwe akamushyira ibyo afite n'ibipapuro.

Utwana dutoya duhagaze ku mugezi, turiho turafata amazi y'umugezi tukayakaraba mu ntoki. Aho ni itiyo isa n'aho yapfumutse, na two tumeze nk'uturiho turifotoza, ni batatu. Hepfo yaho hari igiti cyiza.

Abana bari mu mugezi bameze nk'abari kudaha amazi yawo, ni bane bose ni abahungu, inyuma yabo hameze nk'ahari igisambu kirimo ibyatsi byumye.

Sale yicayemo abantu benshi abagore, abagabo, ababyeyi ndetse n'abana abenshi bakikiwe hagati yabo harimo umugabo wambaye itaburiye y'umweru usa naho ari kugira ibyo abaganiriza.

Urubyiruko bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru, umugabo w'umusaza, umuzungu umwe n'abandi bantu bakuru bambaye imipira y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, bose barishimye bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri.

Abana bato bicaye hasi ku mukeka bakoze urunana, bicaranye n'umuzungu muri bo umunyafurika umwe w'umukecuru, wambaye amarinete ndetse n'undi mukobwa inyuma yabo mu kiziga. Imbere yabo hari umugabo umwe uhagaze wambaye umupira w'ubururu nkabo, Umugore umwe wicaye ku ntebe ndetse n'abandi bagabo babiri babicaye ku ruhande.

Imbaga y'abantu bicaye bateraniye ahantu mu nyubako, basa n'abakurikiye ikiganiro imbere yabo, imbere yabo hicaye abantu batandatu umugabo umwe n'abagore batanu, barasa naho aribo bayoboye abo bicaye imbere yabo, Minisitiri w'Ubuzima ariho aragira icyo atangariza abari imbere.

Amajerekani atonze umurongo ku mugezi imwe irimo iravoma, uwo mugezi hariho uturubine tubiri. Iruhande rwaho hahagaze umukobwa urimo uratondesha amajerekani umurongo, ndetse n'abandi bantu bose bayashagaye bigaragara ko ari bo baje kuhavoma.

Umwana wumukobwa wishimye cyane ari gukaraba kuri kandagira ukarabe y'indobo ndetse n'ibase ari gukarabiramo, inyuma ye hari utuzu dutoya dufite imyenda ibiri dusa n'aho ari tuwarete. Ni utuzu dutatu twubatse twegeranye, hepfo yatwo hateye ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abagore batatu, bicaye imbere yabo hari ameza ariho, igikayi kinini barimo baruzuzaho babiri bafite n'utuntu tumeze nk'udufishi, iruhande rwabo harindi mugore wicaye ku ntebe ya palasitike, utarimo aruzuza igikayi ,ariko imbere ye hari ibidokima ,ndetse iruhande rwe hari utubati turimo amadokima menshi.

Inzu iteraniyemo abantu benshi by'umwihariko ababyeyi bafite abana, hari umubyeyi unanutse muremure uteruye umwana ubahagaze imbere, umeze nkahoa ariwe uri kwifotoza.

Umwana mutoya w'umukobwa uhagaze imbere ya robine. Irafunguye ariho arakaraba intoki ariko atareba ahariho gukarabira intoki areba inyuma yambaye ikanzu y'ibara ry'umutuku.

Abagore n'abagabo, abirabura n'abazungu bose barahagaze bameze nk'abari kwifotoza, bakoze imirongo ibiri yose yuzuye, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo basa n'abahagaze muri sale.

Abagore benshi bambaye amajire y'ibara ry'icyatsi ndetse n'udupira dusa na oranje, bahagaze imbere y'inzu, harimo n'abagabo bariho barifotoza, bamwe bambaye amabaji.

Abantu bicaye muri sale nini ifite ibirahure by'ubururu ndetse n'inzugi, hamanitsemo ifoto ya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bose bicaye barebana ku meza yabo hateretseho amazi.

Umugore n'abana bahagaze imbere y'umugezi bateze ijerekani, ku ruhande rwabo hari umugezi uri kuvamo amazi, inyuma yaho hari abana bari kuzamura bamanura igikoresho gifashe kuri uwo mugezi, abandi barimo baravoma hari kuvoma ibasi.

Abana batoya bambaye ibisarubeti n'amashati y'ishuri, inyuma yabo hari mwarimu wabo wambaye itaburiya, ku ruhande imbere yabo hari abagabo babiri, umwe ari gufotora, undi yambaye baje afite igikapu, imbere y'abana neza hari ababyeyi, babiri ba banyafrika ndetse n'umuzungu, bose bishimiye ibintu abana babo bari gukora.

Abagore n'abagabo bicaye ahantu hameze nko mu nama, imbere yaho hari abantu batandatu, harimo umugabo umwe, abandi ni abagore, bameze nk'abari kubaha ibiganiro.

Umwana w'umuhungu wambaye iniforume z'ishuri, ahagararanye na nyina arimo aramwoza intoki, yamusize isabune uwo mubyeyi yambaye agapfukamunwa, hepfo yawo hateye insina ndetse n'ibinyomoro mu murima wabo.

Umwana muto w'umuhungu ufite isabune mu ntoki ze, iruhande rwe hari intebe, imbere ye hari amaboko y'umuntu bigaragara ko afite amazi ari kumusukira mu ijage ngo akarabe.

Abantu bakoze urunana abagore n'abagabo, bose bariho baramera nk'abarimo baraganira ku bintu, kuko harimo umwe muri bo uhagaze uticaye ameze nk'aho yunamye kugira ngo yumve neza ibyo bari kuvugaho, abandi ku ruhande bariho barisekera.

Umugore wicaye ku ntebe barimo baratera urushinge, yambaye agapfukamunwa, rinete mu ijosi, ndetse n'isaha, hahagaze umuganga wambaye agapfukamunwa arimo aramutera urushinge, kandi uwo mugore arimo arashinyiriza, inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye amarinete n'ishati y'amabara yombi uri kureberera uko babigenza.

Umuganga w'umukobwa yambaye itaburiye na ga imbere ye hari umubyeyi ufite umwana muto w'umuhungu, umuganga yafashe icyuma agishyira mu matwi ikindi agishyira ku mutima w'umwana ngo yumve uko utera.

Umwana uri ku mugezi uriho aravoma amazi ari kuvoma mu ijerekani y'ikibundi, ibyibushye, hari izindi jerekani ziri inyuma ku murongo zitegereje nazo kujyaho, haruguru ye hari umurima uriho urubingo, insina ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Abagabo bicaye, bose bambaye imipira y'umweru, bameze nk'abicaye mu itente, hagati yabo hari gucamo umugore, bose bari kureba imbere nk'abafite ikintu batumbiriye, barimo barumva.

Abakobwa bishimye cyane harimo umuhungu umwe, bose bambaye imipira y'ubururu y'ikigo mpuzamahanga cyita ku mwana, bamwe bari kwifotoza bazamuye intoki abandi bifashe neza.

Umwana w'umukobwa urimo aravoma amazi mu ijerekani akoresheje robine, iyo jerekani iteretse mu ibase inyuma yiwe hari imyenda yafuzwe yanitse ku mugozi.

Umubyeyi ufite ijerekani afatiye ku mugezi, arimo aravoma, yambaye ishalupe y'icyatsi, umupira w'utubara n'uturongo, akagofero mu mutwe, afunguye robine, ari kuvoma.

Abantu benshi bariho barajya ku ishuri bari mu muhanda, hepfo yaho bari kwitegereza umugezi uriho uravomwaho n'umwana w'umuhungu ufite akabido gatoya k'arindwi, undi ari hejuru ariho aramufungurira amazi.

Abana b'abakobwa bahagaze mu kibuga kirimo ibyatsi, haruguru yabo hari ibiti byinshi, bikoze ishyamba. Bahagaze bafite indobo mu kiganza, barebana mu maso yuzuyemo amazi, basa n'aho bashaka kuba bakorera umwe muri bo.

Inzu yubatse yanditseho icyapa cya girubuzima hariho agashushanyo k'umugabo n'umugore bafite abana babiri, imbere yayo hahagaze abantu b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, abazungu n'abirabura bameze nk'abariho barifotoza.

Inzu yubatseho itiyo iri kuvamo amazi menshi cyane kandi afite umuvuduko wo hejuru. Ari kugwa mu biganza by'umuntu wayatezeho aho ari no kumurenga akagera ku maboko agatosa n'imyenda yambaye.

Umugabo w'umunyafurika uriho araseka cyane, yicaye ku ijerekani. Asa n'aho yaje ku mugezi, hariho amarobine abiri yari yaje kuvomaho. Inyuma ye hari inzu zihubatse ndetse n'ibyatsi bitandukanye.

Urutara rwo mu cyaro ruriho ibyombo, ibikombe, amasahani ndetse n'akabase gatoya. Ku ruhande hateye insina zitandukanye imbere yaho hari urugo rw'imiyenzi rukikije inzu.

Umugore wambaye imyenda y'icyatsi nk'iy'abantu bo mu ibagiro, iruhande rwe hari undi muganga wambaye imyenda y'icyatsi, bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari ibyuma biba birimo imibare bisa umweru, ibindi bigaragaza imibare runaka.

Robine iri kuvamo amazi, hari umuntu uteze ibiganza bye bimeze nk'iby'abana, abiteze kuri iyo robine, amazi ari kujya amushokaho.

Umugabo w'umusaza wambaye ishati y'amakarokaro y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, uhagaze ku mugezi, hariho uturobine tubiri, yicaye ku ijerekani y'umuhondo yaje kuvomeramo.

Umwana wambaye iniforume z'ishuri n'ishapule, arasa n'aho ariho arakaraba intoki kuri kandagira ukarabe, inyuma ye hari akazu kameze nk'aho ari tuwalete.

Umubyeyi uryamye kwa muganga yambaye agapfukamunwa aryamye ku gitanda, hari umuganga wambaye agapfukamunwa, yashyize akuma ku nda ye ariho arumvira mu matwi, hari undi mumama uri ku ruhande umeze nk'umurwaza nawe uri kureba ibikorerwa aho ngaho.

Abagabo n'abagore, abazungu n'abirabura bicaye ku ntebe, iruhande rwabo hari akameza kagiye gateretseho amazi ndetse n'indangururamajwi. Bose bambaye ubupfukamunwa. Abagabo babiri bagerekeranyije amaguru, umugore umwe nawe arayagerekeranyije usa naho ari umuzungu. Abandi bagore babiri n'umugabo umwe ntabyo bakoze.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye, imbere yabo hari akameza kariho amazi ndetse n'imiteguro nk'indabo, hari umugabo umwe w'umuzungu uriho aragira ibintu ababwira, bose barasa naho bamukurikiye.

Umugore wambaye baji, akajire ndetse n'umupira w'ubururu, ufite impapuro ari kugenda azihereza abantu mu muhanda, hepfo ye hari umuhanda urimo abantu bari gucuruza, harimo imitaka, harimo amamodoka aparitse ndetse n'ibiti, hepfo y'umuhanda.

Abantu batanu bose bambaye imipira y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, bose bashyize amaboko hejuru ndetse n'ibipfunsi, bishimye bafite akamwenyu ku menyo, basa n'abari kwamamaza cyangwa kogeza ikintu, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru ndetse n'umugabo uhagaze.

Ahantu hirengeye hari amazu ndetse n'ibiti, ahatwegereye hari amazi hagati harimo ibyuma bisa nkaho ari urugomero rw'amazi.

Abantu benshi bashungereye ivomero rishya bakoze, hari kuvomaho umwana akajerekani gato karindwi, undi ariho arapompa inyuma kugira ngo amazi aze.

Abana bari ku mugezi bariho baravoma amazi, ni bane umwe afashe icyuma cyo ku mugezi ari kukizamura kimanura kugira ngo amazi abashe kuza, hatezeho ijerekani, undi yambaye bote afite inkoni mu ntoki, abandi bari gushungera bareba mugenzi wabo ibyo akora.

Abagore n'abagabo, bose bari kumwe n'abantu bambaye imyenda y'ibipantaro ndetse n'ibishati, imeze nk'iy'abakozi bo kwa muganga. Bahagaze imbere, bafashe ku cyapa, bari kwifotoza.

Ivomero rifite amarobine ane rimwe ni ryo riri kuvomwaho n'umubyeyi wambaye imyenda ndetse n'ibikomo ku maboko. Ari kuvoma mu kijerekani cy'ikibundi ku ruhande yatereretse akandi kabido gato karindwi.

Abana benshi bari mu kibuga, bari kumwe n'ababyeyi, umwe wambaye akajire w'umumama, yegeranye n'umupolisi wambaye imyenda y'akazi ndetse bari kumwe n'undi mubyeyi, bose bambaye imipira ijya gusa ibara ry'umutuku, barimo barahereza icyo kunywa abo bana.

Abasore bicaye, bambaye bose imipira y'imikara, imbere yabo hari abantu bambaye imipira idasa n'iyo bambaye, inyuma yabo naho ni uko, inzu barimo hari abantu bahagaze, ndetse hari n'abicaye, harimo n'abari kugenda basohoka, batumbiriye imbere yabo nk'abafite ibyo bakurikiye.

Abagore batatu basa n'aho bicaye mu ruganiriro bariho baganira, babiri muri bo bakikiye abana, undi abari imbere yicaye ariho arabagira inama, ababwira uko ibintu byakabaye bimera, imbere y'umwe hari akameza gateretseho terefoni, ibiryo, ndetse n'agashashi karimo ibiribwa by'abana.

Umuntu w'umubyeyi utabashe kwigaragaza mu isura, arasa n'aho yipfutse igitambaro mu maso, asa n'utishimye cyane, ariho arareba imbere yiwe neza.

Abantu biyicariye mu kabuga hanze basa n'abari mu gikari cy'umuntu, ni abagabo babiri, abagore babiri ndetse n'umwana muto umwe, inyuma yabo hubatse inzu isa n'aho baje gusura umuntu waho bari kuganira banaseka cyane.

Abana bato cyane, abakobwa n'abahungu, barimo baraseka, bambaye amaherena b'abakobwa, harimo n'abafite ibihanga badafite amenyo, abenshi bambaye iniforume y'icyatsi na karuvati y'ubururu, abandi ntazo bambaye.

Abana bato bari mu kibuga bambaye iniforume z'ubururu bukeye na karuvati, ni benshi bamwe bashyize amaboko hejuru bameze nk'abari kwifotoza. Inyuma yaho hari ikibuga kirimo idarapo ry'u Rwanda ndetse n'amashuri ku ruhande.

Umukecuru wicaye ku musambi ashagawe n'abana batoya benshi, bafite ikintu barangariyeho bari kureba imbere yabo, inyuma biragaragara ko ariho umukecuru aba, abo bana bakaba baje kumusura.

Abantu bicaye hanze haruguru y'urutoki ndetse n'ibiti, baricaye nk'aho bariho baraganira harimo umugabo umwe ababyeyi batatu ndetse n'umwana w'umukobwa umwe, bose barasa naho bahanze amaso umugabo usa naho yavunitse ukuguru.

Ibitaro byubatse neza bifite amagorofa atatu. Bisize irange ry'umweru. Bifite uruzitiro rumeze neza. Ku ruhande hariho ibyapa bitanga ikaze muri ibyo bitaro bya Munini. Ikindi cyapa kiri ku ruhande kiri kwerekana serivisi zitangirwa muri ibyo bitaro.

Umukobwa w'igikara wambaye ikanzu ndetse warengejeho akajire ka MTN. Ahagaze muri Kontwari, ahantu muri butike, inyuma ye hari etajeri irimo ibicuruzwa bitandukanye bureba, salisa, ibirungo asante, saladine ndetse n'ibindi.

Umuntu w'umugabo usa naho ari umusazi, afite umusatsi wamwereyeho ndetse n'ubwanwa bwamwereyeho, arasa naho atazi iyo ava n'iyajya kuko yambaye injamba imyenda icikaguritse ahantu hose, afite umuneke mu ntoki ze, hepfo ye hari umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga.

Umugabo uhagaze wambaye agafukamunwa yakamanuye, iruhande rwe hari ikibaho ndetse afite na marikeri ari kwandikaho ibintu asa n'usobanurira ababyeyi n'abagabo bicaye imbere ye, inyuma ye hari aka meza kariho igicupa cy'amazi ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Umunyafurika mugufiya wambaye imyenda ikunze kugaragara ko ari iy'umuco w'Igihugu cya Nigeria, yegamye ku gikuta cy'umweru arararamye ariho arareba hejuru.

Umusaza w'igikara wambaye ishati y'ubururu, ikigofero cy'umukara n'umweru acyambaye mu mutwe, yasetse afite amenyo atari menshi, ane y'imbere biragaragara ko yavuyemo, yambaye umwitero w'ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye bameze nk'aho bari mu nama, ni abantu bane, umwe ni umugabo abandi ni abagore batatu, uri ku ruhande rwabo usa n'ubayoboye uri kubabwira, yambaye amaherena asize iminwa, yambaye akajire ndetse afite n'agapfukamunwa mu kuboko.

Abantu benshi bicaye hamwe, bamwe bambaye amarinete, abandi ntayo bambaye, abenshi ni igitsina gore, harimo abagabo bakeya. Bose bicaye batumbiriye imbere yabo, basa nk'aho bakurikiye icyo bari kubabwira. Ku meza ya buri muntu hateretseho amazi yo kunywa, mudasobwa n'ikayi n'ikaramu.

Ikibuga kinini, kirimo ikidara kirimo kirubakwa, gifite amabara y'idarapo ry'u Rwanda ku ruhande, imbere yaho hahagaze imodoka y'umweru, zimwe zigendanwa kandi zigashobora kuba zakorerwamo n'ibindi bikorwa zihagaze. Yanditseho ko bagiye kujya bavura indwara zo mu mutwe mu Bugesera.

Umubyeyi w'umugore wambaye agapfukamunwa wicaye ku gasongabugari, ariho arateka agasosi mu isafuriya no ku mbabura, ahetse umwana umwe undi amuhagaze ku ruhande bariho baraseka.

Ibagore batatu bicaye, imbere yabo hateretse amazi, imbere yabo kandi hahagaze undi mugenzi wabo uri kubaha ikiganiro, ufite mikorofone, inyuma y'iwe hari icyapa cyanditseho: "Twite ku buzima bwo mu mutwe, aho dukorera".

Abantu benshi bambaye imipira y'ubururu hejuru, harimo umuzungu umwe ndetse hahagazemo umugabo hagati yabo wambaye ishati na karuvati, bisa nk'aho ari umuyobozi wabo cyangwa ari umukuru wabo, bose barahagaze barimo barafata ifoto baseka.

Inzu ya etaje ifite igisenge cyagacurama, ku ruhande hubatse akazu gatoya, hepfo yako hari esekariye zimanuka hasi.

Abantu benshi bafashe agapapuro kamwe basa n'abariho barifotoza, inyuma yaho hari imodoka ya tagisi vuwatire y'umweru ndetse ku ruhande hubatse amatente adakoresheje utuntu tw'icyatsi.

Abana benshi bishimye bariho baraseka bambaye bodaboda bafite ibijerekani mu ntoki abandi barabihetse. Bari munsi y'igiti ndetse n'ibihyimbo bitonoye byahuwe, inyuma yaho hari ibyatsi.

Umugabo wambaye imyenda y'icabari yacikaguritse, afite igitebo mu ntoki ndetse n'ibifuka ku ruhande yambaye, ari gukanura nabi yisize ibintu bisa n'imbyiro mu maso, ahagaze muri kaburimbo inyuma ye hari ikimodoka cy'igifuso gihagaze.

Umugabo wicaye umeze nk'aho yataye umutwe, afite umutwe mu biganza by'iwe, ni ukuvuga ko yafashe umutwe akawushyira ku biganza by'iwe, ku ruhande rwe hari umugore uri kumufata, basa naho bari ahantu muri sale hatarimo abandi bantu, uwo mugore yambaye isaha ameze nk'aho arimo aramuhumuriza.

Umusore uhagaze imbere yinzu ariho arifotoza iyo nzu ifite amabara y'umutuku kuruhande hateye imikindo.

Umwana w'umukobwa, wicaye ku musambi uzingazinze, yambaye igitenge, yahinnye amavi ayafasheho, arasa n'uzirikiye ku giti ku munyururu, kandi yihebye ntiyishimye.

Umukecuru w'umunyafurika arahagaze yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe yambaye amaherena yambaye n'urunigi mu ijosi ameze nkutegereje umuntu.

Akana keza k'inzobe, karyamye kagaramye kareba hejuru, kasetse cyane, gafite inyinya, hejuru yako hari umuganga ugiye kukareba mu kanwa, hanyuma akakavura, indwara zo mu kanwa, cyangwa iz'amenyo

Umusore wambaye umupira w'umweru usutse, uri kumwe n'umukobwa nawe wambaye umupira w'umweru usutse, bari gushinyika amenyo kubera ko bafite utudodo twagenewe koza amenyo, barimo barayoza bireba mu ndorerwamu.

Umugabo washinyitse amenyo yose kugira ngo akoreshe akadodo kabugenewe, gasukura amenyo, yagacishije mu ryinyo rya mbere ryo hasi imbere.

Umuganga w'umuzungu wambaye amadarubindi afite umusatsi mwinshi ndetse n'ubwanwa bwinshi, yambaye itaburiye ndetse n'agakomo, hari amashusho ari kujya komeka ku kibaho kiri imbere ye.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi y'abazungu, yasetse cyane ashinyitse kubera ko afite uburoso mu ntoki ziwe, asa n'aho agiye gusukura amenyo yiwe.

Umugabo wagerageje gushinyika amenyo ye yose, kubera ko arimo arakoresha akadodo kabugenewe, kugira ngo akuremo imyanda iri hagati mu menyo ye.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'umukara miremire, yasetse ashinyitse cyane, afite mu kanwa heza, ariho aratwereka akoresheje intoki ziwe ku menyo yiwe asa neza, umweru.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, ga zabugenewe, ndetse n'itaburiye, ariho arasamura umusaza wicaye imbere yiwe, arimo amuvura mu menyo, yamuritsemo akantu, afite n'akandi agiye gukozamo.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye isaha n'impeta ndetse n'itaburiye, wicaye ku gatebe ko kwa muganga, inyuma ye hari igitanda abarwayi baryamaho ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga, biragaragara ko ari umuganga wicaye mu cyumba bavuriramo abarwayi.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'amataburiya umwe n'umuhungu undi ni umukobwa, umwe w'umusore aricaye undi w'umugore arunamye, uw'umusore ari kuvura umwana, wicaye imbere yabo wasamye ari kumuvura mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hasizemo irangi ry'umweru, harimo igikoresho kimeze nka televiziyo, munsi yacyo hari ikindi gifasheho k'icyuma, hariho n'agakoresho gato gakoreshwa mu gupima, uko umutima w'umuntu utera, iruhande rwaho hari intebe y'umukara yicaraho abaganga cyangwa abarwayi.

Umubyeyi w'umugore ufite umusatsi w'umukara mu ntoki ze afite uburoso bw'amenyo ariho arasekera umwana we w'umukobwa umuri imbere, bambaye amasengeri y'umweru bose. Ako kana na ko gafite uburoso mu ntoki barasa naho uyu mubyeyi arikwigisha umwana uburyo yakoza amenyo.

Sare itarimo umuntu n'umwe isize amarangi y'umweru ifite ibisenge by'umweru hateretsemo intebe eshatu, hafite ibirahure n'inzugi bikoze mu birahure.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi uri gufata agakoresho gafite ibara ry'icyatsi, akagakoza mu menyo ye yo hasi nk'aho ariho arayasukura.

Umuntu wambaye itaburiya ndetse na ga, afite mu ntoki ze agatoronovisi, afite n'igishushanyo cy'amenyo ndetse n'urwasaya rwo mu kanwa k'umuntu ariho arajomba iyo teronovisi muri icyo gishushanyo.

Abana batoya b'abakobwa buri wese afite igikombe ndetse n'uburoso arimo ariborosa bamwe bari gucira abandi barabijunditse, biragaragara ko bari kwifotoza.

Umwana wagiye kwa muganga, wicaye muganga arimo ararebera mu menyo uko hameze. Umuganga yambaye ga, hanyuma yafashe mu ishinya y'umwana ari kureba uko bimeze.

Umuganga wambaye itaburiye y'umweru, amadarubindi ga zabugenewe wunamye ku mwana wasamye ariho aramuvura mu kanwa. Yacishijemo akuma kameze nka toronovisi akandi agafashe mu kuboko kw'iburyo asa n'uriho aramukura iryinyo.

Umusore wambaye umupira w'umweru wa tisheti ufite amaboko, afashe akantu k'akadodo ari gushinyika cyane ashaka koza amenyo ye, yabanje kugacisha mu menyo ye asa n'uyoza.

Umugabo w'inzobe uriho araseka cyane arimo arerekana akantu k'umweru afashe mu ntoki kandiditseho vita. Ni utuntu dushoreranye ku murongo tumeze nk'utubombo ntabwo twamenya utwo ari two.

Abana batoya bari mu ishuri bambaye iniforume, bamwe baricaye abandi barahagaze, bose bafite uburoso bashyize hejuru ni ubw'amenyo, muri bo harimo umwarimu wabo na we wishimye umeze nk'aho ariho araseka, barasa bose n'abariho barifotoza.

Umusaza ufite imvi nyinshi bariho baramukurura mu kagare, ariho arakururwa n'umuforomokazi, inyuma yabo hari abantu babiri babiri bicaye ku meza, ni abagore n'abagabo barasa n'aho barimo baraganira.

Abantu benshi bicaye hanze, harimo abirabura, ndetse n'umuzungu umwe unateruye akana k'agahungu, harimo ababyeyi batatu, abana b'abakobwa babiri, ndetse n'utwana tubiri, bicaye mu gacaca, abandi bicaye hasi, umubyeyi umwe arimo araboha igitebo, hejuru yabo hari uruzitiro rw'ibiti, hirya yaho hubatse inzu.

Umukecuru w'umunyafurika usa n'aho ashaje cyane, yafashe amashyiga atatu ayaterekaho isafuriya acana umuriro aratetse, iruhande rwe hari inkwi ariho aratekesha, arasa n'utari mu rugo.

Abagabo babiri bariho barakora siporo. Umwe afite umupira w'umweru n'agacupa mu ntoki, undi yambaye agapira k'umweru, afite agacupa mu ntoke. Barishimye.

Umugabo w'umusaza ufite imvi, wambaye amarinete. Iruhande rwe hari umuforomokazi w'umuzungu, ufite imisatsi miremire. Yamubwiye ngo ashyire amaboko ye imbere. Umuzungu arasa n'aho agiye kuvura uwo mugabo.

Umugore n'umugabo bafite imvi, umwe ni umuzungu undi ni umwirabura, bose bambaye amasaha bambaye imyenda ya siporo bariho bariruka. Barasa naho bishimiye icyo gikorwa barimo.

Abagabo babiri; umusaza n'ukiri muto, bafatanye mu bitugu. Bariho baragenda mu muhanda, ku ruhande rwaho hateye ibiti byinshi bikoze ishyamba. Umwe yambaye ingofero, undi ntayo yambaye.

Umurwayi ushobora kuba adashoboye kugenda, afite akuma bigiraho kugenda imbere yiwe, ari kwa muganga kuko yambaye imyenda abarwayi bambara bari mu bitaro, inyuma ye hari igitanda ndetse n'akameza.

Umusaza ndetse n'umukecuru b'abanyafurika. Bicaye hanze, barasa na'ho bishimye cyane, kuko umukecuru yasetse cyane. Bafatanye ku rutugu. Umusaza arasa n'aho hari utuntu arimo arongorera umukecuru.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaranye, umusaza afite telefone ya taci ari kwereka umukecuru ibintu bariho barareba, umukecuru nawe afite urupapuro mu ntoki, imbere yaho hari uducupa wagira ngo turimo ibinini ndetse n'ikirahure kirimo amazi ku meza, inyuma yaho ku bikuta hariho imitako myinshi igiye itandukanye.

Umubyeyi w'umukecuru wicaye ku ntebe, yambaye impeta, amarinete ndetse n'igitambaro mu mutwe, arishimye ariho araseka, inyuma ye hari umukobwa wambaye imyambaro nk'iy'abaforomokazi, yamuturutse inyuma yamufashe mu maboko na we arimo aramusekera.

Umukecuru ufite imvi wambaye amarinete, ufite isahani imbere yiwe uyiteretse kumeza, iruhande rwe ashagawe n'umwana w'umukobwa ndetse n'uw'umuhungu, bose bari kumufasha, umuhungu afite isahani iriho umugati, umukobwa afite utumamiyo tubiri turiho imboga bagiye gushyira ku isahani uwo muhungu afite.

Umusaza ufite imvi z'ubwanwa wambaye impeta, arabyibushye afite inkoni mu biganza bye aranicaye. Haruguru ye, hari umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi n'ikarita ku kuboko ku ishati ye, arimo aramusekera amufashe ku rutugu asa naho amugira inama.

Ababyeyi basa n'aho bakuze bari mu murima w'icyayi, bari kugenda baca ibyayi bashyira mu tuntu tumeze nk'udupaniye bahetse mu mugongo, biragaragara ko bishimye ntabwo ari bakeya kuko ni benshi n'inyuma yabo hari n'abandi.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku kameza, bose bafite imisatsi yabaye imvi, umukecuru ariho arasomera umusaza ibintu byanditse ku gapapuro akabimwereka, hanyuma akamufungurira ikinini akakimuhereza, imbere yabo hatereretse ikirahure cy'amazi.

Umuntu mukuru w'umusaza ufite imvi umutwe wose n'ubwanwa bwuzuye imvi, yambaye amadarubindi ndetse n'imigozi mu matwi, ameze nkuriho arakora siporo, afite utwuma bakoresha bakora siporo mu maboko yombi twitwa aritere.

Umuntu w'umugabo, wambaye umukandara munda w'umweru, inyuma ye, hari umuforomokazi usa nk'aho arimo aramwereka uko bakora imyitozo ngororamubiri. Inyuma yaho, hari ibikoresho bakoresha imyitozo ngororamubiri.

Abagore babiri bafite umunezero, bariho baragenda basa n'abajya muri siporo, bose bambaye imyenda ya siporo bari kugenda mu muhanda, hepfo yabo hateye ibiti, iby'amahwa, indabo ndetse n'ibindi bitandukanye birebire bifite amashami agaye.

Abasaza n'abakecuru bicaye kumeza ni babiri bose bafite imvi. Umukecuru ariho arereka umusaza ibintu ku gapapuro bariho barasoma.

Umusaza ufite imvi umutwe wose ndetse n'izindi ku bwanwa, yasetse cyane yimarayo, yambaye amarinete ariko yicaye mu kagare kagenewe abafite ubumuga. Inyuma hari umukobwa uriho aramusunika, na we wasetse, wishimye cyane, bari mu muhanda.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo n'abana bato b'abakobwa ,bahagaze mu murima w'ibigori hateyemo n'ibindi byatsi harimo nk'urubingo ndetse n'ibyatsi bisanzwe bose bazamuye amaboko hejuru barasa naho bishimye abandi bazamuye udufuni hejuru bariho barifotoza.

Abakecuru bambaye imipira y'imweru ndetse nu'dupfukamunwa, bambaye amajipo y'imikara, bari ku murongo barasa n'aho bari kugenda baceza cyangwa bariho barakora siporo barishimye, inyuma yabo hari umwana w'umukobwa utambaye imyenda isa n'indi.

Umuganga wambaye akuma kabugenewe mu ijosi, yambaye na ya myenda y'ubururu bakunda kwambara, ni umugabo afite ubwanwa bwinshi yasetse, ari kumwe n'umukecuru ufite akabando wambaye shaneti na we uriho araseka.

Inzu irimo umugabo w'umwirabura ndetse n'umugore w'umuzungu w'umuganga uri kuvura uyu mugabo amukoresha imyitozo, uyu muganga yakoze mu bitugu by'uyu mugabo, umugabo ukuboko kumwe agushyira imbere, ukundi agushyira inyuma afashe akantu k'aritere yamuhaye.

Umusaza w'umunyafurika usa n'aho akuze cyane kandi akaba atabasha kwiyoza. Imisatsi ye ndetse n'ingohe ze n'ubwanwa bwe, byose byabaye imvi. Hari umuntu uriho aramwoza, ari kumumanuriraho ibifuro, we arasinziriye ngo bamwoze.

Umusaza wambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu aricaye, imbere ye hicaye umuforomokazi nawe wambaye agapfukamunwa, afite akuma gapima uko umutima utera akamushyize ku bituza.

Umusaza uri kumwe n'umwana wiwe, ariho aramwereka ifoto mu gitabo, bose bishimye basetse, imbere yaho hateretse ameza ariho itasi kuri buri muntu.

Umugore n'umugabo basa n'aho bakuze bose, bambaye amarinete, umugore yambaye amaherena, bariho baraseka bishimye barebana mu maso, bicaye ku meza bariho barafata amafunguro.

Umugabo ukuze wambaye amarinete n'impeta, ufite terefone mu ntoki, yicaye ku ntebe, yicaranye n'umugore we na we ukuze, bose bari kureba ku rupapuro bafite aho ku meza yabo, barimo bararebamo rumwe kuko bafite nyinshi. Inyuma yabo hari saro irimo intebe ndetse n'amarido na tapi.

Umugore w'umunyafurika, uhagaze imbere uri guterura akaritere gato, nyuma ye hari abazungu na bo bari guterura utu aritere duto. Ni abagabo n'abagore bavanze...

Umugabo w'umusaza udafite umusatsi, ufite ubwanwa bwinshi bw'imvi, wegeranye n'umukobwa w'umuforomo kazi wambaye amaherena, arimo arasuka ibintu by'umuhondo mu kiganza cye bisa n'ibinini, afite uwo musaza ikirahure cy'amazi.

Umugore w'inzobe uri kumwe n'akana gatoya, yaciye udupapuro twinshi adutereka ku meza ari imbere yaho, arimo arereka umwana anamwigisha uko babara, inyuma yabo hari akameza k'aka etajeri gateretsemo imitako ndetse na televiziyo ya furate.

Abakecuru bambaye ibitenge, ibitambaro, ndetse n'ingofero, bamwe bafite n'imvi, umwe iruhanderwe hateretse isakoshi, bose inyuma yabo hari intebe za palasitike, ndetse n'insina, batumbiriye imbere yabo nk'abafite ikintu bari kurebayo.

Umugabo n'umugore bose bafite imvi, bariho baraseka cyane nk'abishimye, imbere yabo hari akame kariho utuntu tw'umukara, ahari bariho barakina umukino.

Abantu bateraniye muri sare nini cyane. Bose baricaye. Imbere yabo hahagaze umuntu w'igitsina gore, ufite ibisuko wambaye amarinete, ufite indangururamajwi, ariho arabasekera yishimye anababwira ijambo. Inyuma ye hari umusore uhicaye, wicaye ku byuma na mudasobwa.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo bamwe baricaye abandi barahagaze bari kureba imbere yabo nk'abarimo barifotoza, inyuma yabo hari idarapo rifite ibara ry'ubururu ndetse n'irindi darapo rifite ibara ry'icyatsi, inyuma yaho hakaba hari icyapa kinini cyanditseho ihuriro nyafurika.

Ifoto iriho ababyeyi bane bahagaze bose bariho baraseka bishimye, iri kugaragaza ko hari ibyo bagomba kwirinda kuri kanseri y'inkondo y'umura. Ivuga ngo tuyihashye.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa amazi ndetse n'ibindi bikoresho byo kwandika nk'ikayi n'ikaramu, bose batumbiriye imbere bakurikiye umugabo uri imbere yabo ufite indangururamajwi, ari kubereka amashusho imbere yabo ku gikuta akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga cyabugenewe, agira n'ibyo ababwira.

Umukecuru w'umunyafurika, wambaye igitambaro mu mutwe unifubitse esharupe, ariho araseka ariko afite iryinyo rimwe ryavuyemo mu menyo yiwe y'imbere, afite kandi n'igipfuko ku jisho.

Ifoto nziza iriho abantu batanu, abagore ni babiri abagabo ni batatu, bamwe ni abazungu abandi ni abirabura. Iravuga ko nta gusiga inyuma umuntu numwe.

Abantu b'ingeri zose, bari muri sare ifite amabara y'umweru, bamwe baricaye, abandi barahagaze, barasa n'aho bariho barifotoza.

Abantu igihiriri bari mu muhanda bawuzuyemo bariho baragenda basa naho bakora urugendo barikumwe n'abantu b'abayobozi. Imbere yabo bafite icyapa cyanditseho ngo rubyiruko ni mwe hazaza heza h'u Rwanda. Irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi.

Abana b'abakobwa bambaye imipira ya pinki, bicaye ku ntebe za palastike, imbere yabo hahagaze ababyeyi b'abagore ndetse n'ab'abagabo, bahisemo umwe muri abo bana b'abakobwa bakamuhemba ibihembo biri mu dufuka tw'umweru, harimo ibigiye bitandukanye, imbere y'abo hari ameza ateretseho kotegisi za oluwayizi, bose kandi bambaye udupfukamunwa abo bantu.

Ikoraniro ry'abantu batandukanye abagore n'abagabo abazungu n'abirabura, bicaye imbere yabo hicaye umugore umwe w'umunyafurika umugabo w'umunyafurika n'umugore umwe w'umuzungu basa naho aribo babayoboye bari kugira ibyo babatangariza.

Abantu bicaye imbere harimo abazungu n'abirabura, abagore n'abagabo, basa n'abategereje kugira ibyo babwirwa n'ababicaye imbere babareba, harimo umugabo w'umuzungu, abandi bagabo batanu ni abirabura ndetse n'umugore umwe, bicaye imbere bari kugira ibyo batangariza abandi.

Inzu yubatse, ifite amadirishya y'icyatsi, n'inzugi z'ibara ry'icyatsi, handitseho ko ari aho ababyeyi babyarira, hahagaze umuganga wambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa.

Inzu ya etaje irimo abantu babiri bari kumanuka, ifite amagorofa abiri, ikibuga cyayo giparitsemo imodoka ndetse mu busitani harimo idarapo rya Repubulika y'u Rwanda, hirya hari iyindi nzu yubatse nkayo y'amagorofa abiri ndetse no hirya cyane.

Sale irimo ibitanda byinshi birimo abarwayi, harimo abantu basa n'abaganga bambaye ibikote by'ibishitingi byinshi, bimwe birinda umubiri wose, ndetse bambaye n'udukinga mu maso hamwe n'udupfukamunwa, kugira ngo bataba bakwandura indwara izo arizo zose ziturutse ku barwayi.

Sale iteraniyemo abaganga benshi bose bambaye: amataburiye, amaga, basa nkaho bakiri batoya bakiri urubyiruko, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo abarimo barareba muri ibyo bikoresho abandi bari kureba muri terefone.

Abantu bicaye ku ibaraza ry'ahantu hanze y'inzu munsi y'igiti, harimo ababyeyi batatu, abagabo babiri bariho barareba nk'abafite ikintu barindiriye, harasa no kwa muganga kubera ko hari abandi bantu hirya yaho, bari ku zindi nyubako basa n'abafite ikintu bategereje.

Inzu yubatse ahirengeye iriho icyapa, hanze hahagaze abantu bariho barashaka kwinjirayo, ku ruhande rwaho hari parikingi irimo imodoka hasa naho ari ku bitaro.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, bamwe mu ndimi z'amahanga bakunze kwita Jimu, harimo ibikoresho byinshi harimo bimwe abantu bagenda birukaho, bafasheho, harimo ibyo twise alitere ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu ivurirwamo abarwayi bafashwe ku ngufu b'abana b'abakobwa bizwi nka isange. Iherereye mu bitaro bya Kabutare. Imbere yaho hahagaze abantu bafite udukoni nk'utw'abafite ubumuga bwo kutabona, bose bambaye udupfukamunwa, harimo umuganga umwe.

Umusore uryamye ku gitanda usa naho ari umurwayi afite imiti myinshi iri kugenda imucamo binyuze muri serumu, arasa n'uwishimye aseka ari gukora ikimenyetso cyo kwemeza.

Abaforomokazi bambaye imyenda y'akazi bahagaze mu muhanda bariho barifotoza kuko bariho baraseka, inyuma yaho hateye ibiti ndetse n'ibyatsi harimo n'umugenzi umwe uriho arigendera mu muhanda.

Umuntu uryamye ku gitanda urwaye. Ari gufashwa n'umuganga w'umugore wambaye ya myenda yabo yabugenewe. Inyuma ye hari ibikoresho byo kwa muganga ndetse na serumu uwo muntu arimo arakoresha.

Umukobwa w'umuforomokazi wambaye imyda y'abaforomo ahagaze imbere y'umurwayi uryamye afite serumu ariho aramwambika imyenda yo kugira ngo amuvure.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya, arahagaze yambaye amarinete, afite agakoresho gakoreshwa mu kureba niba umutima w'umuntu uriho uratera neza, afite imbere ye terefone agiye kuba yasomera abantu batandukanye bateraniye aho bimwe mu mabwiriza.

Inzu isa n'aho ari ho bagurira imiti, mo imbere harimo imiti muri etajeri ndetse no mu kabati, hahagazemo abantu babiri basa n'aho baje kugura imiti, irarangaye, ku cyapa kuri iyo nzu hariho icyapa kinini kiri kuvuga ko ari iguriro ry'imiti rya Kanombe.

Inzu y'abana bavurirwamo hariho icyapa kinini kibigaragaza, irafunze ariko imiryango idafunze neza hariho icyapa gihagarika abantu.

Inzu yubatse neza isa n'iy'ubucuruzi, ni ibitaro bavuriramo abana, harimo intebe zitandukanye aha ngaha ni ho abantu bicara cyangwa babakirira.

Inzu yubatse isize amarangi y'umweru, handitseho ngo inzu y'ababyeyi, ku ruhande rw'aho hari moto ihaparitse, imbere y'aho hari agakoresho ka pano soleil k'umurasire gashobora kuba kabafasha igihe umuriro wabuze.

Inzu ya etaje ifite amagorofa abiri, imbere yaho hariho amavaze ariho indabyo, ku ruhande no mu kibuga hari kaburimbo iparitsemo amamodoka y'utuvatiri ndetse n'ay'ubundi bwoko, ifite korotire nziza.

Inyubako ifite amagorofa abiri hariho icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Nyarurezi, hejuru hari abantu bariyo bari kwaka serivisi bameze nk'abarwayi birumvikana no hasi naho harimo ababyeyi, hakabamo abasekirite ndetse n'abandi bantu batandukanye, ku ruhande rwabo hateye ibiti byiza.

Abantu bicaye muri sare nini basa n'abategereje serivisi, ku ruhande rw'abo hari intebe ziticawemo n'umuntu n'umwe, hirya y'abo ku gikuta hariho kizimyamwoto y'umutuku.

Sare irimo abantu benshi hasa naho ari kwa muganga, bamwe baricaye abandi barahagaze harimo abaganga bafite ibikoresho bari kuvura abantu. Aha ku ruhande hari umubyeyi wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, uri gusuzumwa n'umuganga bose bambaye udupfukamunwa.

Inzu isize amarange ya pinki hejuru, ifite inkingi zifite amabara y'ubururu, ndetse intebe ziri hanze z'umutuku eshatu, irarangaye, ku ruhande hari ibyapa, ikirekire, ikigufi ndetse n'igifite icyo kigaragaza, hepfo yaho hari ubusitani bugiye burimo ibiti ndetse n'indabo.

Inzu yubatse yicayeho abantu hanze kugasima ndetse hari n'abandi bicaye iruhande rwayo, ku ntebe basa naho bari kwa muganga bategereje ubahereza serivisi z'ubuvuzi.

Sare ikorerwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo intebe nyinshi imbere y'izo ntebe hari utumeza turiho indangururamajwi zifasheho zakozwe n'ikoranabuhanga. Harimo igisenge cyiza cyane, imiryango nayo itatse neza imbere y'aho hari agatuti bavugiraho ijambo.

Ababyeyi babiri bahagaze barebana umwe yambaye amarinete undi ntayo yambare, arasa n'aho yabyaye arishimye, afite akamwenyu ku menyo.

Icyumba kirimo ibintu bimeze nk'ibikontineri gisize irangi ry'umweru, harimo umugore umeze nk'umuganga w'umuzungu, arimo arakora mu gikontineri kimwe yakojejemo amaboko.

Inzu ifite imbere ubusitani hateyemo imikindo ndetse n'indabyo, ku ruhande hari parikingi iparitsemo amamodoka, ku rundi ruhande hari jaride irimo ibiti ndetse munsi yaho hari izindi nzu zihubatse.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ikanzu ngufiya uryamye ku buriri, usa naho yahwereye, ntabwo ari kunyeganyega, ku gitanda aryamyeho hahagaze umuntu w'umugabo uri kumukora mu gahanga asa n'uri kumva ko hari umuriro afite cyangwa atawufite, ku rundi ruhande hari umubyeyi umeze nk'umuforomokazi uriho aramupfuka ku kuboko.

Inzu isa n'iyo bavuriramo abarwayi ni iy'amatafari isizeho amarangi y'umweru, inzugi na zo zirasa umweru uretse ko hari n'iz'ibirahure.

Abantu bicaye neza bareba imbere ku ntebe ndende zimbaho, bariho barakurikira abagabo batatu babicaye imbere bicaye ku meza ndetse no ku ntebe, umwe muri bo niwe uhagaze arasa naho ari kubahereza ikiganiro abo bicaye.

Icyumba cyiza kimeze nko kwa muganga, aho abarwayi baryama, harimo ibitanda byinshi, amarido, amadirishya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikenerwa n'abarwayi barwariye kwa muganga.

Ivuriro ryanditseho kwa Nyirinkwaya, iruhande rwaho hariho akazu ka MTN karimo umwegenti, bari kutwereka uruzitiro ndetse n'idarapo ry'iryo vuriro haparitsemo imodoka.

Kimwe mu byumba byo kwa muganga harimo ibikoresho byinshi, hasizemo irangi ry'umweru, hamanitse isaha ndetse n'indi mitako, hari ibyuma bitatu bigaragara ko iyo umuntu agiye kugicamo abanza akicara ku ntebe kuko ku ruhande hari intebe yo kwicarwamo.

Umukobwa wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru, wafashe akana gatoya akakambika cya kintu bambika abana bari kubapima ibiro, akana karimo iruhande rwe hari abandi babyeyi bicaye bafite abana bigaragara ko baje gupimisha abana babo ibiro.

Abirabura n'abazungu bose bari muri sale isa n'aho ari kwa muganga, kuko ku ruhande rwabo hari agatanda karyamwaho n'abarwayi. Hari umunyafurika uri kugira ibintu abereka, bamwe muri bo bambaye amataburiya abandi ntayo bambaye, bamwe ni abasaza ndetse abandi baracyari bato.

Umuntu uri mu cyumba kimeze nk'icy'abarwayi, harimo abantu baryamyemo, harimo ibitanda byinshi n'amasupanete menshi, ariho arazinga supenete y'umubyeyi uryamye kuri icyo gitanda.

Inzu nziza ifite amagorofa abiri, hanze yayo hari abantu bari kugenda basa n'aho bagenda bayisatira, igiye ifite amajaride arimo ibyatsi ndetse n'ibiti byiza cyane by'amoko yose ndetse hagiye hariho n'amapave ahatari jaride.

Inzu y'ikigonderabuzima cya Shagasha irarangaye hanze hicaye umugore, umwana, umugore n'umwana babiri bose bameze nk'abafite ikintu barindiriye.

Amazu menshi yubatse ahantu hamwe afite uruzitiro rwanditseho ibitaro bya Ruhengeri, hari urujya n'uruza rw'abantu iruhande rw'urwo ruzitiro bigaragara ko ari mumuhanda.

Inzu nziza ifite purafo isa neza, harimo intebe z'ubwoko butandukanye, hirya hari umuryango urangaye, hari guturukamo umuntu, iyindi miryango y'imbere na yo irarangaye.

Ikibuga cyiza cyane, kiriho ubusitani bwiza, harimo idarapo ry'u Rwanda, haruguru yaho hubatse inzu y'amatafari nziza cyane ibereye ijisho, hirya gato hari izindi nzu zihubatse zisize amarangi y'umweru.

Inzu ifite amagorofa abiri. Iruhande rwaho hari parikingi iparitsemo imodoka imwe. Hari abantu hanze buri wese ari mu bye ariko hari abakoze agakundi ka batatu bariho baragira ibyo baganiraho. Abandi bari hepfo ku nzu yindi ntoya ifasheho, bariho bariganirira ibyabo.

Amazu yubatse afite amagorofa abiri, hari kwakamo hose amatara, iruhande rwaho hateye ibyatsi ndetse imbere yaho hubatse akandi kazu gatoya, ku ruhande rwako hari ijaride iteyemo igiti ndetse hari n'utwatsi ku ruhande.

Inzu ya etaje ifite amagorofa atatu, hejuru yaho hahera ku igorofa ryayuma hariho icyapa, cyerekana ko hari ivuriro ryigenga ryitwa Inyenyeri, imbere yaho haparitse amamodoka ane, ku ruhande hari umutaka ucururizamo umuyejenti.

Inyubako yo kwa muganga hari abantu bari kugenda bagendagenda aho ngaho, harimo abaganga, abaforomokazi ndetse n'abandi, hari igitanda kiri aho ngaho mu muryango kiri kwinjiramo kiryamyeho umurwayi.

Etajeri zirimo imiti igiye itandukanye, ni enye, ebyiri ziregeranye, ziranarebana, izindi ebyiri ziregeranye, ziranarebana, hariho urwego basa naho buririraho bagiye kuzana iyindi miti hejuru.

Umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa, amarinete ndetse n'itaburiya, imbere ye hicaye umubyeyi ufite akana k'agahinja, karasa naho gafite ubwoba bw'uko muganga agiye kugakoraho.

Abantu batandukanye bicaye muri sare harimo abagore ndetse n'abagabo bamwe bateze ibitambaro abandi ntabyo bateze barasa n'aho bafite ikintu bakurikiye imbere yabo.

Inzu irimo ibikoresho byinshi byikoranabuhanga ndetse igitanda, intebe, hari aho bigiye bigabanije mu tuntu tune. Hirya mu kindi cyumba hari umuganga w'umuzungu wambaye amarinete, uri kugira ibyo akurikirana.

Inyubako isa n'aho ari iy'ubucuruzi ifite amagorofa abiri. Irarangaye hariho ibi byapa bigaragaza ko bacuruzamo amavuta, pampekisi z'abana ndetse n'ibindi bikoresho bya elekitoroniki. Hararangaye harimo etajeri zirimo ibicuruzwa ndetse hariho na kotwari, hariho na esikariye umuntu azamukaho ajyayo.

Inzu irimo ibikoresho byo muri jimu, ibipurizo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, urebeye mu kirahure cy'iyo nzu urabona uwundi muturirwa uturanye na yo.

Icyumba cyiza gishashe neza kirimo ibikoresho byose, harimo igitanda ndetse n'akameza kaba kegereye igitanda hasizemo amarangi y'umweru, hariho aho gukaraba intoki, aho gushyira imyanda, ndetse na tapi.

Ahantu heza hafite isuku hari ibikoresho byifashishwa mu kurinda ubushyuhe. Ntamuntu uhari ariko hari intebe ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga bitandukanye.

Inzu bigaragara ko ari iyo kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, intebe, ameza, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu buvuzi, harimo na televiziyo.

Icyumba kimeze nka salle, kirimo abantu benshi batandukanye bicaye, harimo n'umuntu uriho arakamera, imbere y'abantu bicaye hamwe, hari abandi bari imbere yabo basa n'aho ari bo bakuru cyangwa ari bo babayoboye, bagiye kubahereza ikiganiro, imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kunywa ndetse na za mudasobwa.

Inyubako ya etaje nziza iri ahirengeye, iruhande rwaho hari aho abantu bicara, udutebe turi hanze twiza; ku rundi ruhande hariho jaride, ibyatsi byiza ndetse n'indabo, hagiye hariho n'amapave, bigaragara ko ari ahantu heza kandi hakeye.

Umusore w'umunyafurika, wambaye isengeri afite ibituza byinshi. Arahagaze, yazamuye amaboko, afite agacupa k'amazi mu ntoki, ariho arayimena mu maso.

Abantu bambaye amataburiya basa naho ari abaganga, umwe ni umwirabura undi ni umuzungu, uw'umuzungu afite akana mu ntoki gasa n'akahwereye karyamye ariho arareba ko ari kazima, ku ruhande hari abandi bana bari kuhakerakera n'abasutamye.

Umuzungu n'umwirabura b'abahungu bari muri sale ikorerwamo siporo, uw'umwirabura arasutse umuzungu yambaye ingofero, uw'igikara w'umwirabura aryamye ahantu umuzungu na we ashyize amaboko aho aryamye barasa n'abananiwe.

Umuntu warambuye umusambi hasi, ariho arakora siporo, ni igitsina gore, yambaye agasengeri hejuru, hasi yambaye ipantaro, iruhande rwe hateretse agacupa k'amazi, imbere ye hari mudasobwa, birasa n'aho ari kwigana imyitozo yo ku mbuga nkoranyambaga.

Umukobwa uriho arakora siporo. Imbere ye hari icyuma gifite inkingi ebyiri. Yambaye ikabutura n'isengeri . Afite izo nkingi ebyiri, amaguru ye yayashyize inyuma arashaka gusimbuka.

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'ubusa hejuru, yambaye isaha ndetse n'inkweto za godiyo, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yafashe ukuboko kwe akagukwedura akakugeza ku mano ye.

Inzu yo kwa muganga irimo icyuma abantu bacamo, hasize amarange y'umweru nta wundi muntu urimo, harimo igitanda inyuma hakabamo icyuma gikoze mu ruziga, harimo umuntu ugiye gucamo aryamye.

Umukobwa uri gukora siporo, wambaye akabisitiri ndetse n'ipantaro ya siporo, ku kuboko afite ikintu gifashe terefone ye, yambaye kuteri n'inkweto za siporo, yarambuye ukuguru kwe kw'iburyo, afata amaboko ye ayakoza ku mano y'iwe, yicaye hasi, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Umuntu w'umugabo w'umwirabura, uryamye ku gitanda yarambuye ukuguru kumwe, ukundi umuntu w'umuzungu, ariho arakumuhinisha, bigaragara ko arimo aramukoresha siporo kugira ngo umubiri we ugororoke.

Umubyeyi wambaye ishati y'umweru, shenete ndetse n'impeta usa naho yagize ikibazo ku kuboko kwe, yashyizeho ishashi hagati y'ukuboko kwe ndetse n'inkokora.

Agakapu k'umutuku k'abakozi ba croix rouge bagendana kaba karimo ibikoresho by'ibanze bishobora gufasha umurwayi igihe ahuye n'ikibazo runaka cyangwa se undi muntu wese uhuye n'ikibazo runaka cyaba icyo kugwa ndetse n'ikindi kibazo cyose cy'umubiri, harimo amazi umukasi terimometere ndetse n'ibindi bikoresho.

Umugabo muremure cyane w'umwirabura wambaye imyenda ya siporo. afite ubwanwa bwinshi ndetse nubwoya, arasamye ariho arareba hejuru, yambaye na fime afite agacupa k'amazi mu ntoki ze, ariho arimenaho amazi mu maso.

Umuntu w'umuzungu uryamye ku gitanda, uri kureba iburyo bwe, ku ruhande hari abagabo babiri bahahagaze bari kumukora mu mugongo basa n'abari kumuvura. Ku rundi ruhande hari undi muntu uryamye, ufite umuntu w'umugore uriho aramuvura.

Umusore w'umwirabura usutse amadirede wambaye imyenda ya siporo ariho arakora siporo mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo, iruhande rwe hari umuzungu nawe w'umugore uriho arakora siporo.

Umugabo uriho arakora siporo, ahagarikije ikirenge kimwe ku kantu, kari imbere k'umukara, ikindi kiri hasi, ukuboko kumwe kwazamutse, ukundi kuri inyuma, arasa n'uriho akora imyitozo ngororamubiri, hepfo ye urebeye mu kirahure, hateye ibiti ndetse hirya hari amamodoka n'amazu.

Umuntu w'igitsina gore uriho arakora siporo, yambaye agaseri ariho arareba imbere yiwe, yazamuye amaboko yiwe arangije kumwe agushyira inyuma agukoza mu mugongo, ukundi agufatisha ku nkokora ya kwa kundi yari yazamuye mu mugongo.

Abana benshi bari mu kibuga bariho barakina imikino igiye itandukanye, abenshi bambaye imyenda ya siporo, bamwe bari gusimbuka abandi bari kureba uko bagenzi babo babikora, bamwe bafite imipira, abandi bari gukoma amashyi bigaragara ko bari gufana abandi bakina.

Umugabo w'umuzungu usa n'aho afite icyuma bakunda guterura kugira ngo bazane amatuza, iruhande rwe hari ibishushanyo by'inkoko itureyi irimo amagi, amapuwavuro, amazi ndetse n'izindi mboga zitandukanye.

Imboga n'imbuto bitandukanye biteretse ku kameza k'umweru muri byo harimo shufurere, amacunga, kokombure, pome, imineke ndetse na puwavuro.

Icyumba kimwe mu byo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga. Harasa n'aho ariho bajya bakurira amenyo abantu cyangwa bakabavurira indwara zo mu kanwa. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe ushobora no kuryamaho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Agakapu kajyamo ibikoresho bya ngombwa cyangwa by'ubutabazi ushobora gukoresha utabara umubyeyi, ni kamwe k'ikigo kitwa croix rouge, harimo imikasi tijekuto, indodo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye n'udupfuko.

Ikirahure kirimo amazi acagase. Imbere yacyo hari ibiganza by'umuntu bifite ijagi ikoze mu birahure iriho irasuka amazi muri icyo kirahure kugira ngo cyuzure.

Umuganga w'umugabo w'umuzungu uriho aravura umurwayi w'umukobwa, ariho aramuvura ku ivi, arasa n'aho yagize imvune, arimo aramwomekaho utuntu tugiye dutandukanye.

Umuntu w'umwirabura uryamye hasi wifashe mu nda ye, yamanitse ukuguru kwiwe ku rutugu rw'umuzungu usa naho arimo arakuvura. Iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi ndetse ni no mu rugo iwe iwe.

Umuntu w'igitsina gabo w'umuganga wambaye itaburiye yabugenewe, afite kaske mu ntoki ze isa ibara ry'umutuku, iruhande rwe hari kizimyamwoto, ari mu cyumba gisa na sale ariho arifotoza.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kirimo tapi y'icyatsi, harimo abakinnyi bari gukina, harimo umwe uryamye mu kibuga, usa naho avunitse, iruhande rwe hari mugenzi we uriho aramufata muri uko kuguru gusa na ho kwavunitse yaguhinnye, ku ruhande hari baro ndetse n'igikapu ashaka kuba yamufashisha, bibaye ngombwa.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo ariyo bisitiri ndetse na kora, ku maboko ye hafasheho akantu kamufatiye telefone ye, yambaye amaherena, apfumuye habiri, afite agacupa ari kunyweramo amazi.

Amacupa y'amavuta ari hamwe, amaremare, amagufi mbese aratandukanye kandi afite n'amabara atandukanye, hari iry'umweru, ay'umutuku, hariho kandi n'ibidongi by'urudodo kuri aya meza ariho ibyo byose, hariho ingwa, hariho n'utundi tuntu dupfunyitse wagira ngo ni omo.

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'ikote rifite ingofero, wicaye ahantu hari igikapu ndetse afite ikigurude kinini arimo aranyweramo amazi.

Icyumba kirimo umwana wicaye ku kameza usa naho wavunitse ukuguru, hariho igipfuko ahagana ku gatsitsino kiwe ndetse no ku kundi kuguru hariho igipfuko, imbere ye hahagaze umuntu umeze nkaho arimo aramuvura, hirya yabo hicaye abandi bana.

Ibikoresho byo gukoresha siporo, harimo imipira yo gukina ndetse n'utudenesi dutoya, hagati yaho hariho igikoresho abaganga bifashisha bareba uko umutima w'umuntu utera.

Umugabo n'umugore b'abazungu bahagararanye bateranye imigongo, umugabo ni muremure kurenza umugore, bose bafite uducupa tw'amazi bariho baranywa kandi bateranye imigongo.

Urubyiruko rurimo rurabyina mukibuga bose bambaye imyenda y'umukara n'umweru ndetse iruhande rw'abo hari abantu benshi bakoze ikiziga babashungereye basa n'abari gukurikira ibyo bakora.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo, isengeri ndetse n'ipantaro, arasutamye mu muhanda uri gucamo abandi bantu, afite agacupa k'amazi mu ntoki, arimo aranywa.

Abantu babiri barimo barakora siporo. Umwe ni umugore, undi ni umugabo. Bose bambaye amakabutura ndetse n'amasengeri hejuru. Bose bafite amacupa arimo amazi, ariko umugore afite umusatsi muremure, ugereranije n'umugabo.

Icyumba kirimo umuntu w'igitsina gore, afite ibisuko mu mutwe, ariho arambara agapfukamunwa, yambaye imyambaro ikunda kwambarwa n'abaforomokazi, yambaye ga mu ntoki, imbere ye hari imeza iriho mudasobwa, amakayi ndetse n'amakaramu.

Umukobwa wicaye yegeranyije amaguru y'iwe, yafashe ibirenge bye abitereka ku matako y'iwe, amaguru ayacishije imbere, yahengetse umutwe afata ukuboko kwe agushyira ku mutwe, imbere ye hateretse gurude y'amazi.

Abantu babiri bambaye imyenda ya siporo. Umwe ariho arakandira undi ku kuguru aryamye arasa naho agize imvune, bose ni abazungu.

Umuzungu ufite ikiganza gipfutse kuzamuka kugera kuboko ko hejuru, ikindi kiganza na cyo kirapfutse ariko kirikongerwaho ibipfuko n'ibiganza by'undi muntu, iruhande rwe rero hari agakapu ari gukuramo ibikoresho ari gupfukisha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hasa na hamwe babagira abarwayi, harimo igitanda abarwayi baryamaho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, hari kwakamo ibitara byinshi, harimo n'ahantu umuntu ashobora kurebera ko umutima wiwe uriko uratera.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, harimo ibisitiri ndetse na kora, yambaye amasogisi y'umweru ndetse ni'inkweto za siporo, yashyize ukuboko kwiwe imbere, ivi ryiwe yarivunnyemo kabiri arijyana inyuma, arifatisha ukuboko kundi afashe amano.

Ukuboko k'umuntu w'umunyafurika kurambuye, afata ukundi kuboko kwiwe akurambika hagati na hagati h'uko kuboko yarambuye, arambikishijeho ishashi ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze bashungereye umuntu uryamye ku gitanda usa n'uwavunitse ukuguru kwe kw'iburyo, banamufashije kuba yaguhina bakoresheje ibyuma bigufashe byakuzamuye mu kirere.

Mu kibuga cy'umupira, harimo abakinnyi batandukanye, hagaragaye umwe uguye, hanyuma abakozi ba Kuruwa ruje baza biruka baje kureba icyo abaye, bamufashe ku kuguru bariho barajya kumufasha kuba yamererwa neza.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe za sheze, bamwe bafite amakaye n'amakaramu haribyo bari kwandika, imbere yabo hahagaze umuganga ufite icyuma kireba inyama zo mu nda, inyuma ye hari igitanda ababyeyi cyangwa abarwayi baryamaho bagiye kwivuza.

Umuganga urimo aravura umurwayi bari mucyumba, umurwayi yicaye ku gitanda, umurwayi ni umugabo arimo aramuzirikaho bande ku kirenge asa nkaho yavunitse.

Umuntu wicaye ku gitanda usa n'uwavunitse ukuguru kw'iburyo bwe, bari kumushyiraho igipfuko kugira ngo birinde, imvune ni umugabo uri imbere yiwe usa n'umuzungu, uriho urakimushyiraho.

Umugabo w'umwirabura usutamye wambaye amatiriningi y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ameze nk'urimo arakora siporo yazamuye amaboko, iruhande rwe hari umuntu w'umuzungu uhagaze wambaye umweru n'ubururu, hepfo ye hari tapi y'icyatsi, hari n'ibikoresho byinshi bya jimu.

Umusore wambaye ikabutura ufite ibisuko n'ubwanwa burebure wambaye isengeri hejuru, arapfukamye yashyize amaboko ye imbere ku gatapi kameze nkaho arimo arakora siporo iwe mu rugo.

Ipurato ifite ibara ry'umweru, iteretse ku imeza y'umweru, hateretseho amaronji akasemo ibice bine, iruhande rwayo hateretseho ubuki, uturabo ndetse n'agacupa k'amavuta.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, harimo abacuruzi benshi ndetse n'abaguzi, hari gucururizwamo ibicupa, amapera, harimo imboga, harimo ibintu bifunze mu tu amverope ndetse n'ibindi, harimo n'iminzani yo kujya bapimiraho ibyo bicuruzwa byabo.

Akameza gateretseho ibintu bigiye bitandukanye. Hari amavuta ateretse mu gicupa, uducupa dutoya tw'umweru, duteretse ku ruhande, indabo ndetse n'akantu kameze nk'agakora mu buki, tuhateretse.

Igikata kiriho utubuye duto dutoya tw'umukara bita utw'udusarabwayi, hateyeho ikimera kiza k'icyatsi, gifite amababi agiye ku ruhande cyane.

Ibiti biteye mu tuntu tumeze nk'udufuka bifite amashami menshi, biragaragara ko byeze neza kandi cyane.

Ibiti byinshi biri mu ishyamba bifite amababi y'icyatsi hari ibindi bigufiya byagiye bimera kuruhande hari imyanda yi'byatsi byagiye byangizwa aho.

Umusore usa naho ari umuganga yambaye itaburiye yicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza ateretseho ibipfupa binini birimo umuti bifite udufuniko tw'umutuku. Hariho ikindi kirimo ibintu bisa n'ibara ry'ubururu bisukika utamenya.

Inzu ikoraniyemo imiti myinshi iri mu kabati ni amoko menshi igiye imwe iri mu gikarito iyindi iri mu bikombe, indi iri mu dukombe n'uducupa dutoya tugiye dufite amabara menshi harimo iy'imyeru, umuhondo, imituku ndetse n'iyindi.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'amabara y'umweru, wifubitse agasharupe k'umweru, ufite ishakoshi mu ntoki, arahagaze, ari guca ibibabi by'ibishyimbo, byameze bizamutse, aho ngaho kandi ni mu murima uteyemo n'insina.

Umugabo uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse n'uwo kwifubika ufite ibara ry'umukara ahagaze mumashami yigiti kuruhande rwe hari umugore nawe usa naho ariho aravuga amagambo basa nabari mu ishyamba kuko ibiti biri inyuma yabo ndetse n'ibyatsi byinshi.

Akameza kariho uducupa twinshi, n'amacupa y'amavuta agiye afite amabara atandukanye. Amenshi ahuriye ku ibara ry'umweru. Harimo udufite amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku n'imifuniko y'umutuku.

Agacupa gatoya k'ikibundi, gahagaze ku kameza, iruhande rwaho hari igikombe cy'amata, ndetse ku rundi ruhande, hari igikakarubamba cy'ibibabi gihari.

Akameza gateretseho ibintu bitandukanye harimo itase irimo ji ya orange harimo n'irongi rikatiyemo kuru ruhande ku gasahane gato iteretseho hakatiyeho amaronge kuru ruhande rwaho hari ironndi ryuzuye.

Inzu icururizwamo imiti igiye itandukanye. Hari umugore usa naho ari we uri kuyicuruza, uteze igitambaro, wambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi, inyuma ye hari abakozi be bambaye amataburiya y'umweru bariho barajya kugira ibyo bareba. Imbere ye hahagaze umugabo usa naho ari umuguzi.

Imirima ibiri iteyemo ibihingwa harimo ababyeyi barimo barabisarura bakora imiba bashobora kuza kwikorera bakayijyana, ni ahantu hanini cyane h'ikibaya hateyemo ibintu byinshi.

Ibitunguru bikasemo kabiri byegeranye n'indimu ikasemo kabiri, birasa n'aho hari kuvugwa ikirango cya televiziyo yitwa baho neza, ku rundi ruhande hari igicupa kirimo umutobe w'indimu.